Ikusanyirizo ry'amazi mabi kugira ngo ayungururwe avemo ameza anyobwa aciye mu nganda zabigenewe.

Umuntu ugaragara igice cyo hejuru cy'inyuma ku mutwe, ibitugu, ijosi, wambaye agapfukamunwa n'ingofero mu mutwe, arimo kureba ibipimo by'imashini ipima kwa muganga.

Umugore, umubyeyi wicaye akikiye umwana ku bibero, na muganga wambaye imyenda ya kiganga y'amaboko maremare y'umweru, amuha urukingo.

Ivomo ry'amazi ryubakishije sima, ryanditseho amabara ya kabiri, hahagaze umadamu ufite igitambaro mu ijosi, umwana ufite igitambaro w'umukobwa cy'igitenge ku rutugu, avoma amazi n'abandi bana inyuma yabo.

Mu cyumba cy'inama, abagore n'abagabo bahuriyemo bicaye, bakurikiye ibivugirwamo.

umugabo yogosheshe mazesatsi wambaye amadarubindi niko n'ishati na karuvate n'umugore w'umuzungu bambaye umupirapantaro y yumukara bafashe bombi n'intoki zabo mupira wanditseho sora u rwanda ahahagaze imbere y'ibirango by'miryango mpuzamahanga

Abana bagaragara, bambaye imyenda y'umuhondo n'indi itandukanye, umwe ari kuri robine, ku ivomo, afite n'akabido avomeramo, yunamye avoma.

Abagore n'abagabo bahagaze imbere y'inzu ku ibaraza, ku ngazi zisohoka mu nzu bambaye udupfukamunwa mu ifoto y'urwibutso.

Umukobwa n'abana babiri, arimo kuvoma amazi mu kibido cy'umuhondo akebutse amwenyura.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cyiberamo inama, ku meza ziriho ibitambaro biri mu mabara y'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umwana muto wambaye agapira k'umweru n'agakabutura k'ubururu, afite igikombe cy'umuhondo ateze ku ivomo amazi.

Abana batandukanye bari ku ivomo ry'amazi, banywa amazi bakoresheje ibiganza bya bo.

Itsinda ry'abaganga abagore n'abagabo bicaye mu ihema, imbere yabo ku meza hariho ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi,

Abantu batandukanye bahagaze hamwe bambaye imyenda y'abaganga bahagaze imbere y'icyapa cya Nyabageni bateraniyeho.

Ni ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi kongerera binabika umwuka ubasha kongerera abarwayi bawuze kwa muganga, mu gihe bawukeneye.

Abagore n'abakobwa bari mu cyumba, abo bagore umwe akikiye umwana w'uruhinja, arimo ahabwa gahunda zigenerwa ababyeyi n'abana bakiri bato kwa muganga.

Mu cyumba, abantu, barimo ,guhugurwa ,ku buzima ,indwara zo mu mutwe, n'izindi bijyana nabyo.

Abagabo n'umugore bambaye imyenda itandukanye ku ibara bahurije amaboko n'ibiganza ku rupapuro barimo gufata ifoto y'urwibutso, imbere yihema ry'umweru.

Umugabo w'umwirabura uhagaze mu mbago z'umuhanda wa kaburimbo, wambaye imyenda icikaguritse, umusatsi n'ubwanwa bwinshi, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ni umusazi.

Abana b'abirabura, bafite utubido mu ntoki, ibyatsi birunze iruhande rwabo, bahagaze begeranye, ku mukingo hasi ikidara kidasakaye neza, mu cyaro.

Abagabo n'abagore, bamwe bahagaze mu murongo umwe w'imbere, baciye bugufi imbere y'inzu iteye ibara, irangi ry'umuhondo, bahagaze mu ifoto isa n'iyo urwibutso.

Umugore wirabura ubikoreye igitebo kirimo ibyatsi uhagaze imbere y'inzu isakaje amategura wifubitse ikoti ifite umui mu ntoki uteza igitambaro mumutwe.

Ishusho igaragaza abagore babiri umwe akoze mu mufuka w'undi, bambaye udupfukamanwa bose, ibambye ahantu nk'imfashanyigisho.

Umuntu w'umwirabura wicaye mu nzira zitwara amazi mu mbago z'umuhanda, ukenyeye umwenda uzirikiye mu ijosi, umusatsi usa nabi n'ishashi mu ntoki, ni umusazi.

Umugore w'umwiraburakazi wicaye imbere y'inzu y'amatafari ahiye, useka, utetse ku mashyiga akoresha inkwi, hirya ye haragaragara inkoko y'umweru, igikombe cy'icyatsi n'umufuniko w'isafuriya, yicaye ku gasongabugari.

Abana benshi bambaye imyenda y'ishuri impuzankano bateraniye hamwe ikivunge bishimye baseka bazamuraye ibiganza hejuru mukibuga cy'ishuri.

Umugore n'umwana bafite ibikoresho bisukura amenyo, barebana mu maso, bambaye amasengeri y'umweru n'imisatsi ku mutwe y'umukara barebana mu maso.

Mu cyumba cyo kwa muganga basuzumiramo, umuganga wambaye imyenda y'akazi y'umweru n'udupfukantoki, agapfukamunwa n'amadarubindi ku mutwe, umurwayi yicaye mu ntebe yegamishijwe, arimo amutera urushinge mu kanwa.

Ikiganza cya muganga, areba ishusho yafashwe n'ibyuma by'ikoranabuhanga, bisuzuma uburwayi bw'ingingo z'abantu, ku gikanka.

Umugabo n'umwana bari mu cyumba, bafite urudodo rurerure bafatishije intoki zombi ruhinguranyije mu menyo, barukoresha mu buryo bwo kuyasukura, bareba imbere bombi.

Icyumba muganga yicayemo, wambaye umwenda w'umuganga w'amamoko maremare y'umweru, icyumba giteye irangi ry'umuhondo, n'ibikoresho akoresha afasha abarwayi.

Abana bato bambaye impuzankano z'ishuri; abahungu n'abakobwa, barimo gukora isuku y'amenyo bakoresheje umuti wabugenewe n'uburoso.

Ni icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga rikoreshwa mu buvuzi, intebe, intebe yegamirwa umurwayi bamusuzumiraho, mu cyumba cy'umuganga.

Umuntu ugaragara igice cyo hejuru ku mutwe n'ijosi, ufite agakoresho akafatiyeho urudodo, yasamye arimo kogesha amenyo urwo rudodo arucisha hagati y'amenyo.

Isura yo ku kumutwe umuntu ufite urudodo arimo gusukura amenyo agenda arucisha hagati yamenyo ayasukura.

Umusaza ugenda yunamye wambaye umupira w'amaboko maremare, undi mugabo wambaye agapfukamunwa na we wambaye umupira w'amaboko maremare, bigaragara ko amufasha gutambuka kubera intege nke.

Umugore n'umugabo bari ku meza iriho imbuto zitandukanye nka pome, umutobe ukozwe mu mbuto, umugore asuka mu kirahuri n'inanasi n'itasi y'umweru.

Umugabo ukuze ufite imvi ku mutwe, ubwanwa, ni umusaza, afite terefone mu ntoki yereka, umugore wicaye iruhande rwe, imbere yabo hari icupa ridateretse.

Umugabo uri mu cyumba, afite igitabo ku meza asoma, yifashe mu gahanga ni umwirabura.

Umukecuru n'umusaza bicaye ku meza mu rugo b'abirabura bose bafite imvi ku mutwe, umusaza afite icupa ry'imiti y'ibinini, umukecuru afite urupapuro rwanditseho imiti bareba ingano y'iyo agomba gufata.

Abagore babiri, umwe umuganga n'undi wicaye mu kagare k'abafite ubumuga bw'ingingo asuzumwa.

Umusaza wambaye amadarubindi, arimo guseka, ari kumwe n'umwana we. Bafite igitabo basoma, imbere yabo hateretse ibikombe by'umweru birimo icyayi bari kunywa.

Abagore batandukanye bafite ibikoresho biboshye mu bimera, barimo gusarura icyayi mu muririma.

Umugore ukuze yambaye amadarubindi n'imvi ku mutwe bahagaze hanze y'inzu iteye irangi ry'umweru, asuhuzanya n'umuganga ufite igikoresho gikoreshwa mu gusuzuma bafatanye mu biganza.

Umugabo wirabura ubwanwa burimo imvi, yiyogoshesheje umusatsi ku mutwe umazeho, ari kumwe n'umuganga bambaye imyenda y'abari mu kazi kwa muganga amushyirira umuti ku kiganza.

Abagabo nabagore bamwe bahagaze abandi bicaye imbere, mbere yabo hari ameza abiri bafite inyandiko zamashusho mu biganza byabo bafata ifoto y'urwibutso.

Abaganga batandukanye mucyumba bambaye imyenda ya kiganga, birarabura na bazungu, barimo kuvura umurwayi uryamye ku gatanda.

Ishusho y'abagore batatu bambaye udupfukamuwa umwe w'imbere wambaye umwenda uriho ikirango cy'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima ishami ry'Afurika n'ubutumwa buvuga ku cyorezo cy'ibicurane.

Abantu batandukanye bahuriye ahantu hamwe, abagore, abagabo, abazungu, abirabura, bahagaze mu busitani buriho icyapa kigaragara ko ari ibitaro bya Butaro.

Mu cyumba harimo ibitanda bibiri byakirirwaho abarwayi kwa muganga, bishasheho amashuka y'umweru. Icyumba giteye irangi ry'umuhondo.

Imbere mu nzu irimo ibyumba bitandukanye, abaganga bakiriramo abarwayi baje kwivuza, nk'isuzumiro.

Umugabo w'umuganga mu cyumba imbere y'imashini areba ibisubizo by'ibizamini by'isuzuma byakorewe umurwayi waje kwivuza.

Hagati mu ivuriro kwa muganga, abaganga bahagaze baganira, abirabura, abazungu n'abaje kwivuza bahagaze hagati mu nzira mu nzu.

Abantu, abagore n'abagabo batandukanye, bari imbere mu kibuga kunzu yakira indwara z'abana, impinja.

Ifoto igaragaza ibikoresho bitandukanye bikoreshwa imyitozo ngororamubiri biri ku ibaraza ishasheho itapi, imbere y'iryo baraza ry'inzu hari ubusitani bw'icyatsi kibisi.

Abagore batatu binjira mu marembo y'ibitaro byitiriwe umwami Faisal, ni icyapa kigaragaza ahinjirira, ubutabazi bwihuse, n'umuntu wundi uhagaze ku ruhande wambaye umwenda w'abayobora abagana ibyo bitaro.

Umuhanda w'igitaka winjira mu gipangu cy'amatafari ahiye, iteye irangi ry'umuhondo hari icyapa cyikigo gishinzwe gufasha inzererezi.

Icyumba cyo kwa muganga abarwayi barwariramo kirimo ibikoresho bitandukanye, ibyongera abantu umwuka wabaye mukeya, hari n'igitanda kiriho umurwayi uryamye wambaye imyenda itukura, agaragara ko akurikiranwa n'amamashini.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye muganga akoresha, agatanda umurwayi aryamaho, utubati tubiri dukoze mu mbaho ry'umuhondo, naho bakorera isuku y'intoki.

Mu cyumba kwa muganga, muganga wambaye itaburiya, agapfukamunwa, udupfukantoki, umurwayi uryamye ku gatanda yubitse inda, arimo kumusuzuma igice cy'umugongo.

Amafoto y'ibyapa agaragaza abana b'abahungu n'abakobwa bari mu myitozo ngororamubiri itandukanye.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru, umukinnyi umwe aryamye hasi, abaganga bambaye imyenda itukura bamuha ubufasha bw'ubuvuzi n'abandi bagenzi be bahagaze iruhande rwabo.

Amafoto atandukanye y'amaguru y'insimburangingo.

Umugabo uryamye hasi agaramye, uri muri siporo, umugozi uziritseho ku kaguru k'iburyo, umufasha gukora siporo n'ibindi bikoresho bitandukanye, yifashisha.

Umuntu ugaragara wambaye imyenda y'umukara hose, akaboko k'imoso kari inyuma karambuye, akaboko k'imoso gafashe hasi, akaguru k'iburyo karinganiye n'akaboko k'indyo imbere, ari mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo uraramye urimo kunywa amazi ari mu gacupa k'ubururu bwerurutse, w'umwirabura.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini yifashishwa mu gusuzuma abantu, aho uryama wisuzumisha kugatanda munsi y'ibara ry'umweru n'ikindi cy'uruziga cyangwa mu ibara ry'umweru.

Ifoto abantu babiri bambaye imyenda itukura bafashe agatanda batwaraho umurwayi bamuteruye, umwe ari imbere undi ari inyuma kari mu ibara ry'umuhondo n'imigozi y'umukara.

Ibiganza by'umuntu w'umwirabura, ufite mu ntoki ze igipapuro kiriho umuti gakondo wo mu bimera.

Amacupa atandukanye ariho ibyapa bijyanye n'imiti igiye irimo ya buri bwoko, ikorwa mu bimera yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye gakondo ikoreshejwe.

Ifoto igaragaza ibyatsi by'ibimera bikoreshwa mu buvuzi, bitangazwa na Baho neza tv.

Ibiti biboneka mu ishyamba by'ibimera, ikorwamo imiti ya Kinyarwanda igisura, cyifashishwa mu buvuzi gakondo bw'imiti.

Icupa ryanditseho amagambo y'umuti ukorwa mubi bimera gakondo, ni icupa ry'umufuniko wicyatsi ry'ikirahure.

Umuti w'isuku y'amenyo ukorwa mu cyatsi cyitwa igikakarubamba.

Umuganga wicaye mucyumba bambaye umwenda w'akazi agapfukamutwe n'agapfukamunwa, afite igipapuro cy'umutuku cyirimo imiti n'andi macupa y'umukara arembereye kumeza.

Amacupa atandukanye ya parasitike, arimo ibisukika bitandukanye bifite amabara atandukanye, umuhondo, umutuku wijimye n'andi.

Umugabo n'umugore bari munsi y'ibiti, ishyamba, uwambaye umupira utukura afashe ku mashami y'ibiti n'ikoti ry'umukara, ni umwirabura, umugore wambaye umupira w'umweru, ufite ingofero, n'agatambaro ateze mu mutwe.

Amacupa atandukanye n'ubwoko, akorwa mu cyatsi kitwa igikakarubamba, akoreshwa nk'umuti w'ibimera.